Igishushanyo cy'umugabo n'ipusi ishushanyije ku gikuta cy'amashuri ndetse iriho n'iragi ry'umweru, rifasha abanyeshuri mu kumenya uburyo bashushanya.

Ibikinisho by'abana by'imodoka, bisa neza, bifasha abana mu kwishima, kwishimisha ndetse bikabatera n'mbaraga zo kumva, bazavamo abagabo kubera ko baba babyishimiye.

Abana babiri bambaye ingofero z'abayisilamu, bari gutera irangi ku nzu, ndetse barabyitoje neza, bari kubikora bishimye kandi bibanejeje, ndetse bituma abantu bamenya no gukora bakiri bato.

Ibishushanyo bifasha abantu kwigisha uburyo bwo kugaburira abana ndetse no kwirinda malaria, bakinga amadirishya mu gihe butangiye kugoroba, kandi bakanarara mu nzu irimo inzitiramibu.

Icyumba kiza kirimo ibitanda byiza biteye irangi ry'umutuku ndetse bisashe neza bisa n'aho biba birimo abana biga ku mashuri babayo kandi bigafasha ababyeyi ku kudahangayikira abana babo.

Utugofero twiza tw'abana, harimo ak'umuhondo n'ak'umweru, bibafasha mu kurwanya imbeho mu gihe batwambaye mu mutwe, ndetse turi no ku gisaduku cyiza, giteye irangi ry'umukara, hari ahantu hasa na neza.

Ibishushanyo by'amagufa biri ku gikuta cy'ishuri, bifasha abanyeshuri kwiga no kumenya umubare w'amagufa bafite cyangwa se mu ubagize ndetse bikabafasha no kwyungura ubumenyi.

Ibintu bimeze nk'indobo byanditsemo ijambo ryitwa rogo. Kimwe gifite ibara rya move, ikindi gifite ibara ry'umutuku, ikindi gifite ibara ry'umuhondo ndetse ikindi gifite ibara rigiye gusa ubururu ndetse bifite n'imikondo.

Icyumba kiza gisa neza, giteye amabengezi, hasi ni ubururu, hariho n'ameza: ay'bururu, ay'umuhondo, ay'umutuku ndetse hejuru hari amatara yaka.

Ikigo cy'amashuri cyiza giteye ubwuzu kikorutiriye neza, hateye irangi ry'umuhondo ndetse gishakajwe n'amabati y'ubururu, harimo n'ibiti byiza byo kugamamo igicucu.

Utubati bashiramo ibitabo byo ku ishuri, bikaba bifasha abanyeshuri mu kuza kubifata bagiye gusoma ndetse bagiye no kwiyungura ubumenyi harimo bw'imibare, ubwa.

Abagabo n'abagore bamwe muri bo bambaye amataburiya y'umweru basa nkaho bishimye, bahagaze imbere y'inzu igeretse kabiri, iteye irangi ry'umweru, isakaje amabati, ikikijwe n'ibiti byiza.

Ibyicungo biba biri ku mashuri abanza bifite n'amabara asa n'idarapo ry'u Rwanda: ubururu, umuhondo n'icyatsi, bifasha abana mu kunezerwa mu gukina no gusabana.

Indangabihe y'ikigo cy'urwunge cya Nyagatare, ifasha abanyeshuri mu kwiga, kugira ngo bafate ubumenyi biyungure n'ubwenge mu gihe bagiye ku ishuri.

Ibikoresho abanyeshuri bifashisha kwiga mu gihe bagiye ku ishuri, ndetse bakiyungura ubumenyi mu gihe bari kwiga imibare n'andi masomo abafasha mu kwiyungura ubwenge bwa buri munsi.

Inyubako nziza isakajwe n'amabati y'ubururu, yubakikijwe n'amatafari ahiye ndetse iriho n'amasikariya y'amabuye, isa neza ndetse ifasha abaturage kuza guhuriramo.

Inzu nziza iteye irangi rijye gu gusa umuhondo, isa neza, iteye ubwuzu bwo kuyigiramo, ifasha abantu kuza kuyiruhukiraho, mu kuza kuyifatiraho amafunguro.

Ibikoresho bifashisha ku ishuri igihe bari guca imirongo, bari gupima uburebure ndetse n'igihe bari guca uruziga kandi bakiga mu mibare.

Icyumba gisa neza kirimo intebe nziza ndetse ni ahantu abanyeshuri bigira mu gihe barimo bashushanya, urabona ameza y'umweru, intebe z'ubururu, bifasha abantu kwisanzura.

Ikigo cy'amashuri kinini, cyubakishijwe amatafarihiye ndetse gituranye n'amazu meza, yubakishijwe, asakajwe amabati y'ubururu ndetse kinakorotiriye neza.

Amakayi, amakaramu n'ibindi bikoresho byo kwifashisha ku ishuri, bidufasha kwandika ndetse no kwiga kugira ngo tuzajye twibuka ibyo twize mu gihe turi gusubira mu masomo yacu.

Mwarimu uri imbere y'abanyeshuri, aje kubigisha kugira ngo babone ubumenyi bukwiriye muzabafashe mu kwiteza imbere, gukorera igihugu ndetse no kwitekerereza bifite umumaro.

Ikigo cy'amashuri kinini cyane, inyuma yacyo hateye insina, cyubakishijwe amatafari ahiye kigasakaje amabati y'ubururu ndetse kirimo n'amadirisha n'inzugi z'ubururu.

Amakereyo, amarate compa ndetse n'ibindi bikoresho bifasha abanyeshuri mu gihe bari kwiga imibare bari guca uruziga ndetse bari guca n'andi mashusho abafasha kwiga.

Umwana mutoya wambaye imyambaro y'ishuri ya kake, yagerageje gukora agakoresho gakoze mu nsinga kariho n'amasaro, ndetse bigaragaza ko ari umuhanga washobora gukora ibintu by'ikoranabuhanga.

Udukinisho tw'abana twiza duteye amabengeza, dufite amabara atandukanye harimo amabara y'umutuku, ay'umuhondo, ay'icyatsi ndetse n'icyumba kimeze neza, gisa neza, giteye amarangi y'umweru.

Ibikoresho bifashisha bari gushushanya, kwandika, harimo amakereyo, udusonguzo, imakasi ndetse n'amakaye, afasha abantu mu kwiga ibintu byinshi.

Udukoresho twinshi dutandukanye harimo imitemeri ndetse n'ibindi bikoresho bakoreshaga kera, bakora ibyibo, baboha ibirago, ndetse byatumaga bamera neza, bikabafasha mu buryo bwabo bwinshi butandukanye.

Abanyeshuri bari mu ishuri bambaye iniforme bari kumwe na mwarimu arimo abigisha ndetse n'ubumenyi buzabafasha mu minsi yabo izaza, bakiteza imbere bagateza imbere igihugu ndetse n'imiryango yabo.

Umunyeshuri ufashe mikoro no gutanga igitekerezo cye ku byo bamubajije ndetse n'uburyo agomba kwirinda ibyo bari kumumbwiraho hari no mu cyumba kiza, hari na bagenzi be benshi.

Abaturage babyukiye ku ishuri, baje kureba uburyo abana babo biga, kugira ngo babatere ishyaka n'umwete ryo kongera kwiga ndetse babikunze.

Umwarimu uri imbere y'abanyeshuri wambaye isurubeti y'umweru ari imbere yabo arimo abana abigisha banafite porojegiteri ifasha abanyeshuri gusoma.

Abanyeshuri beza b'abakobwa bambaye inkweto z'umukara bose n'amajipo y'umukara ndetse n'impuzankano y'amashati n'amakaruvati meza. Bahagaze mu mucaca usa neza basa naho bishimye bari kumwenyura cyane.

Umukobwa wambaye impuzankano ndetse uhagaze imbere ku kibaho, mu ishuri ryiza ryubakishijwe amatafari ahiye, arimo arabwira abanyeshuri ibintu mwarimu yamwigishije abasobanurira kugira ngo abyumve neza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amapantaro ya kake n'amashati y'umweru bakinnye neza amasentire, bari mu nzu nziza yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse iteye n'irangi ry'umweru.

Abanyeshuri beza, basa neza, bambaye impuzankano zisa neza, umugabo abahagaze imbere, ari kubagira inama, uburyo bagakwiye kwitwara ndetse kugira ngo bazavemo abagabo b'ejo hazaza n'abagore b'ejo hazaza beza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano: amajipo y'umukara ndetse n'amashati y'umweru n'amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara, baje gufata ubumenyi ku ishuri ndetse no kwiyungura ubwenge.

Abagabo bambaye amajiri harimo n'abatayambaye, bari mu kazi ko kwigisha abantu ubwubatsi ndetse n'ubutekinisiye, bari mucyumba kiza kirimo amatara meza, ndetse hejuru ku rusenge hanasa neza.

Umugabo uhagaze imbere y'abanyeshuri arimo ababwira akanabigisha uburyo bakwiteza imbere, uburyo bazabaho muri sosiyete, ndetse n'abanyeshuri bicaye neza bari kubyumva kandi bari kubishima.

Umwarimu uri kumwe n'abanyeshuri arimo abaririmbisha bishimye arimo abigisha basabana ndetse bari imbere y'ishuri rifite ibirahure ryubakishije n'amatafari ahiye ndetse risa neza cyane.

Abanyeshuri bambaye impuzankano: inkweto z'umukara, ipantaro za kaki n'amajipo ya kake n'imipira y'umweru, bafashe indabo z'amabara atandukanye: umutuku, umweru n'umuhondo, inyuma y'aho hakaba hari insina.

Umupolisi uri imbere y'abanyeshuri, bari mu gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na kane, icyo gihe byari bibabaje, bari kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu.

Mwiza usa neza umeze neza uciye hagati y'amazu menshi, kandi ugiye mu baturage ufasha abaturage mu gutambuka bava ku isoko bajyayo, ndetse n'abana bajya ku mashuri.

Abakobwa bari bicaye bari mu nama bambaye n'ibibaranga, umwe yifashe mu ijosi, bambaye n'imyambaro y'umweru, imbere yabo hariyo hariho n'uducupa tw'amazi.

Ikayi ririmo inyandiko ivuga ku buhinzi n'ubworozi, ndetse bifasha abanyeshuri mu kwiga kugira ngo nabo bazavemo aborozi b'ejo hazaza.

Imitako ikozwe mu tuntu twinshi dutandukanye, ifasha inzu kugaragara neza ndetse no kuba isa neza kandi bigatuma abantu bahabona habaryohera ndetse bakifuza no kuguma kurereba.

Ibishushanyo by'imboga n'imbuto, bigishiriza abana kugira ngo bamenye, indyo yuzuye harimo, nka poroteyini, ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara kandi harimo n'ibitera imbaraga.

Ikibindi ni igikoresho cyo bakoraga mu ibumba mu bihe bya kera, cyabafashaga mu kwengamo umusaruro, ikigage ndetse cyabafashaga no gutekeramo, mu gihe cyose ba babishaka.

Umutako umeze nk'agacuma urimo n'uturabyo twiza uteretse ku meza iriho igitambaro cy'ubururu, uri mu cyumba kirimo amakaro meza y'umweru ameze neza, asa neza.

Urugi rushushanyijeho ikintu gisa n'inyoni ndetse ruteye n'irangi ry'umukara n'iry'icyatsi, abarukoze rwabinjirije amafaranga ndetse babonamo inyungu.

Abanyeshuri ba kaminuza, baje gufata ubumenyi ,bicaye neza batuje ,bumva ibyo mwarimu abigisha, ndetse bari mu nzu ifite igisenge cyiza, giteye neza nk'imbere hariho n'amabara asa naho ari idarapo Ry'u Rwanda

Abantu bateraniye mu cyumba cy'amashuri gisa neza, gifite hejuru hateye irangi ry'mweru, no muhandi hate irangi ry'ibmweru basa n'aho bari mu nama yo kubabwira uburyo bagomba kwitwara n'uburyo bagomba kubaho.

Icyumba kiza gitatse neza, kirimo amabara menshi atandukanye, harimo n'ibikoresho byiza kubibona biba biteye amabengeza, bisa neza kandi bituma umuntu yumva yishimye anameze neza.

Urugi rukoze mu cyuma, rusa neza, ruteye neza, rukikijwe n'amaderisha nayo asa neza ndetse bifasha abaturage mu gutibwa kubera ko ruba rukomeye.

Amapave meza aparitseho imodoka, izikoreshwa mu buhinzi ndetse n'imodoka zo bagendamo ndetse hari n'akazu gasakaye gasakajwe amabati y'umutuku ndetse.

Abanyeshuri batatu bari mu ishuri baje kwiga, bari mu cyumba cyiza giteye irangi ry'umuhondo, harimo n'intebe z'ubururu, bibafasha mu kwiyungura ubumenyi, ndetse no kuzabubaka ejo hazaza.

Ikibumbano kibumbye mu ibumba ni abantu ba kera babibumbaga, kugira ngo bajye babyereka abana kugira ngo bamenye ko hari hari abantu beza b'intwari ndetse bamwe bitangiye n'igihugu.